Abayobozi batandukanye harimo abagabo n'abagore hakabamo n'urubyiruko, bigaragara ko uru rubyiruko rwishimiye ingamba babahaye zo kuba bakita ku barwayi bakagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imbaga nyamwinshi y'abantu harimo abagabo, abagore, urubyiruko, bigaragara ko bari guhabwa amategeko n'amabwiriza y'ukuntu bagomba kwita ku bana ndetse nabo ubwabo, kugira ngo babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imbaga y'abantu nyamwinshi harimo abagabo, abagore, bigaragara ko bari guhabwa amategeko n'amabwiriza yuko bagomba kwita ku miryango yabo, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, harimo umugabo n'abana, abahungu n'abakobwa, aho abana bishimiye uburyo bagiye guhabwamo ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umwana w'umuhungu uri kunywa amazi ku ivomero ryegerejwe mu mudugudu, aho yaje kunywa amazi meza afite isuku ihagije kugira ngo yirinde indwara zitandukanye zandura mu gukoresha amazi mabi.

Abayobozi batandukanye, bari gushishikariza abantu kuba, bakwita ku miryango yabo ndetse n'abo babona bafite ikibazo cy'uburwayi gikabije, bakihutira kujya ku kigo nderabuzima bakabafasha, bakabaha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abayobozi batandukanye harimo abagore n'abagabo, hakabamo n'abazungu bigaragara ko bishimiye ingamba bafashe zo kuba bagiye kwita ku mugore utwite kugira ngo birinde igwingira ry'umwana uri mu nda, abashe kugira ubuzima bwiza.

Abana babiri bishimye, aho umwe ari gusukira undi amazi ngo akarabe ibiganza kugira ngo yirinde indwara zitandukanye, harimo inzoka zifata ku bantu bakoresheje amazi adafite isuku ihagije.

Umugore n'umwana n'umuganga, aho uyu mugore ateruye umwana, umuganga ari kumuha umuti kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye, zibasira abana bakiri bato.

Abagore batatu bigaragara ko baje ku ivomero rusange ryegerejwe mu mudugudu, aho bari gufashanya kugira ngo barebe ko batwara amazi meza afite isuku ihagije mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abayobozi batandukanye harimo abagore n'abagabo, bigaragara ko bari gutanga amategeko n'amabwiriza y'ukuntu bagomba kwita ku buzima bw'abarwayi kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umwana w'umuhungu ari gukaraba ibiganza n'amazi meza, ku ivomero ryegerejwe mu midugudu kugira ngo hirindwe indwara zimwe na zimwe zitandukanye, zandurira mu gukoresha amazi mabi.

Abana harimo abahungu n'abakobwa, baje ku ivomero rusange ryegerejwe mu mudugudu, bigaragara ko bishimiye ko bagiye gutwara amazi meza afite isuku kandi ihagije.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, harimo abagabo n'abagore bicaye, bigaragara ko bari kuganira ku ndwara zitandukanye zugarije Isi, kugira ngo barebe ko zabonerwa umuti, kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, harimo abagabo n'abagore, bigaragara ko bari guhabwa amategeko n'amabwiriza n'ingamba zo kwita ku barwayi kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abayobozi batandukanye harimo abagabo n'abagore n'abazungu ndetse harimo n'abaganga, bigaragara ko bishimiye ubuvuzi bw'ibanze bagiye gutanga ku barwayi kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Imbaga y'abantu benshi hari umugore n'abana, abahungu n'abakobwa, aho bishimiye ubuvuzi bw'ibanze bagiye guhabwa, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abagore n'abana bicaye umwe muri bo ateruye umwana, hari undi mugore uhagaze bigaragara ko ari kumwereka uko agomba gufata neza umwana, akamuha imiti neza kugira ngo abashe gukura neza afite ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abahungu n'abakobwa bigaragara ko bishimiye amazi meza begerejwe yo kunywa, aho buri mwana wese afite igikombe cy'amazi ari kunywa kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umwana w'umukobwa wishimye, bigaragara ko yaje kogereza indobo ku ivomero rusange ryegerejwe mu mudugudu, aho yaje kogereza indobo n'amazi meza afite isuku ihagije kugira ngo birinde indwara zimwe na zimwe zitandukanye, zandura mu gukoresha amazi mabi.

Imbaga y'abantu harimo abagabo n'abagore, bigaragara ko ari abajyanama b'ubuzima aho bari guhabwa amategeko y'uko bagomba kwita ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Abagabo, abagore n'abazungu n'abana bigaragara ko abagabo n'abagore ari abayobozi baje guha inyigisho abana yuko bakwitwara bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Umugore uhetse umwana, bigaragara ko yaje ku ivomero rusange ryegerejwe mu mudugudu, aho yazanye ibikoresho bitandukanye, ari kubisukura akoresheje amazi meza, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Imbaga y'abantu benshi harimo ababyeyi n'abana n'abagabo, bigaragara ko ababyeyi bazanye gusuzumisha ubuzima bw'abana babo uko buhagaze kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Imbaga y'abantu benshi batandukanye, harimo abagabo n'abagore n'abana, bigaragara ko baje ku kigo nderabuzima kugira ngo babafashe, bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, bigaragara ko avuye mu bwiherero yishimiye uburyo ari gukaraba amazi afite isuku ihagije kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Imbaga nyamwinshi y'abagore n'abana, bigaragara ko abagore bazanye abana babo ku ivuriro kugira ngo babakingire indwara zitandukanye zibasira abana bato.

Abanyeshuri harimo, abahungu n'abakobwa bambaye udupfukamunwa, bari gufata amafunguro, bigaragara ko amafunguro bari gufata atujuje ubuziranenge, bakeneye kwitabwaho bagahabwa indyo yuzuye irimo intungamubiri, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Abaganga batandukanye harimo abagore n'abagabo hakaba n'abayobozi batandukanye, hari umugabo w'umuzungu bigaragara ko aba baganga b'Ikigo nderabuzima cya Mayange bishimiye ibiganiro bagejejweho n'aba bayobozi by'uburyo bagomba kwita ku barwayi bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Abana babiri bari gukaraba intoki ku ivomero rusange ryegerejwe mu mudugudu bigaragara ko bishimiye amazi begerejwe mu mudugudu afite isuku ihagije.

Umusaza wicaye bisa nkaho akuze, ari kumwe n'abajyanama b'ubuzima n'abaganga, aho bari kumusuzuma ngo barebe ko nta muvuduko w'amaraso afite, aho ukuzwe kwibasirwa n'abantu bakuze cyane.

Umwana uri ku ivomero rusange ryegerejwe mu mudugudu, bigaragara ko yishimiye ko agiye kunywa amazi afite isuku ihagije kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imbaga y'abantu nyamwinshi, harimo abana, abagore n'abagabo, aho baje ku ivomero rusange ryegerejwe mu mudugudu, aho baje gufata amazi meza kugira ngo bayatware mu rugo, bayakoreshe bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abaturage harimo abagore, abagabo n'abana, bigaragara ko bishimiye ivomero ryegerejwe mu mudugudu wabo, aho umwana ari kuvoma umugore ari kumufasha kuvoma kugira ngo atware amazi afite isuku ihagije.

Umwana w'umuhungu bigaragara ko yaje ku ivomera rusange ryegerejwe mu mudugudu, aho yaje kuvoma amazi meza afite isuku kugira ngo abashe kuyatwara mu rugo, bayakoreshe, bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abaturage harimo abagabo, abagore, urubyiruko n'abana, bigaragara ko bishimiye kuba bagiye kugezwaho ivuriro, ribegereye mu mudugudu, kugira ngo babashe kwitabwaho, bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo n'abana bane, bigaragara ko abana bishimye cyane, umugabo ari koza abana ibiganza, bigaragara ko ari gukoresha amazi asukuye kugira ngo abana bakomeze kugira ubuzima bwiza, batandura indwara zitandukanye.

Umwana wishimye bigaragara ko yishimiye amazi ari kuvoma ku ivomero rusange ryegerejwe mu mudugudu wabo, aho ari kuyavoma ngo ayanywe kuko afite isuku ihagije kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuganga ari kumwe n'umukecuru, aho uyu mukecuru yaje kwisuzumisha uko ubuzima bwe buhagaze, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imbaga y'abantu benshi, harimo abagabo n'abagore bigaragara ko ari abayobozi batandukanye, aho bari kuganira bafata imyanzuro y'ukuntu bagomba kwita ku barwayi bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Abaganga batandukanye bari kumwe n'abarwayi, bigaragara ko abarwayi baje kwipimisha indwara zitandukanye barwaye kugira ngo babiteho bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abagore n'abana bicaye hari n'abagabo babiri bahagaze bigaragara ko aba bagabo ari abajyanama b'ubuzima bari kubaha amategeko n'amabwiriza y'uko bagomba kwita ku miryango yabo kugira ngo ibashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi n'umwana n'umuganga, aho uyu mubyeyi yazanye umwana we kwa muganga, bigaragara ko yakomeretse mu mutwe, aho uyu muganga ari kumufasha kumwitaho, amuha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako igezweho, irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, ibyo bikoresho byagenewe ubuvuzi bw'ibanze ku baturage, aho buri muntu wese ufite ikibazo babikoresha bamusuzuma kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse no kubitaho kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Urubyiruko rw'abasore n'abakobwa bigaragara ko bishimiye ubumenyi bahawe bwo kuba bagiye kujya bita ku barwayi kandi bakabavura neza bagakira, bagakomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukecuru n'abana bicaye ku musambi, bigaragara ko bafite ikibazo cyo mu mutwe, bakeneye kwitabwaho bagahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu harimo abagabo, abagore, urubyiruko, aho bishimiye ibiganiro bagize byo kuba bakwita ku barwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo nabo babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ufite ibisuko wifashe mu mutwe bisa nkaho afite ikibazo mu mutwe ari kwishima, akeneye kuba yahabwa ubuvuzi bw'ibanze akabasha kugira ubuzima bwiza ndetse akabasha kumererwa neza mu mutwe.

Umugore usa nabi ibiganza, afite isuka mu ntoki, bigaragara ko avuye mu murima guhinga, akaba yikoreye n'ibyo avuye guhinga, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, akeneye kwitabwaho, agahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umukecuru uri guseka bigaragara ko afite ikibazo cy'amenyo, akeneye kwitabwaho agahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umugabo usa nabi, wambaye imyenda ya isa nabi, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe akeneye kwitabwaho agahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo, agire ubuzima bwiza nk'ubw'abandi.

Umwana wicaye wishimye, ari kurya ibisuguti bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, akeneye kwitabwaho agahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru urakaye cyane, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, akeneye kwitabwaho, agahabwa buvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wicaye yipfutse mu maso, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, akeneye kwitabwaho agahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri guseka bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe akeneye kwitabwaho, agahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umugabo uhagaze, bigaragara ko ari gukangurira abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, ko bakihutira kujya ku kigo nderabuzima bakabafasha, bakabaha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Imbaga y'abantu benshi harimo abagabo n'abagore, bigaragara ko ari abayobozi batandukanye bahagurukiye kurwanya uburwayi bwo mu mutwe, kugira ngo n'ababufite bahabwe ubuvuzi bw'ibanze, bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu babiri bicaye bigaragara ko umwe muri bo, afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, akeneye kwitabwaho agahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza nk'ubw'abandi.

Umugabo usa nabi, wambaye ibintu byinshi ku mubiri we bisa nabi, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, akeneye kwitabwaho, agahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusaza wicaye hasi, yambaye amapingu, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe akeneye kwitabwaho agahabwa ubuvuzi bw'ibanze, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi utishimye wicaye hasi ari kumwe n'abana babiri, bigaragara ko aba bana bafite ikibazo cyo mu mutwe, bakeneye kwitabwaho bagahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza nk'ubw'abandi.

Abayobozi batandukanye harimo abagabo, abagore ndetse n'umuzungu, bigaragara ko bishimiye ubumenyi bahawe bwo kwita ku barwayi bafite ikibazo cyo mu mutwe, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza nk'ubw'abandi.

Umusaza wicaye hasi, yambaye imyenda isa nabi, afite n'ibintu bisa nabi, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, akeneye kwitabwaho agahabwa ubuvuzi bw'ibanze, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, nk'ubw'abandi.

Umuzungu ahagaze iruhande rw'ikirangantego cy'ibitaro bya Ndera, aho bigaragara ko yaje gutanga ubumenyi bw'uko umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe yavurwa kandi agakira ndetse akabasha kwitabwaho neza, akagira ubuzima nk'ubw'abandi.

Imbaga nyamwinshi y'abayobozi batandukanye, aho bari gukangurira abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'abo babona bafite ko ba bihutana ku kigo nderabuzima bakabafasha, bakabaha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ababyeyi batatu umwe, ari konsa umwana bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe akeneye kwitabwaho agahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo agire ubuzima bwiza nk'ubw'abandi.

Imbaga nyamwinshi y'abana harimo abahungu n'abakobwa bigaragara ko bamwe muri aba bana bafite ikibazo cyo mu mutwe, bakeneye kwitabwaho, bagahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abagore bicaye n'umugabo bicaye, bigaragara ko aba bagore harimo abajyanama b'ubuzima, baje gusura uyu mugabo, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, bari kumuganiriza banamugira inama yuko yakwitwara, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza nk'ubw'abandi.

Abagore batatu bicaye, iruhande hari undi uhagaze, bigaragara ko ari abayobozi batandukanye, aho umwe muri bo ari kubagira inama y'uko bagomba kwita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe, kugira ngo na bo babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Abakobwa babiri bicaye umwe ari guseka bigaragara ko umwe muri bo afite ikibazo cyo mu mutwe akeneye kwitabwaho, agahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza nk'ubw'abandi.

Imbaga y'abantu nyamwinshi harimo abagabo, abagore, abana, abasaza n'abakecuru, aho dusanga umugore n'umukobwa bari kuganira, bigaragara ko uyu mukobwa afite ikibazo cyo mu mutwe, uyu mubyeyi ari kumuganiriza kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuganga uri kwerekana ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga by'amenyo, aho abikoresha avura abarwayi b'amenyo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuntu wasamye bigaragara ko afite ikibazo cy'amenyo, aho yagannye muganga akaba ari kumufasha kuba yamukuriramo amenyo afite ikibazo yifashishije ibikoresho byabugenewe, aho umuganga ari kumwitaho kugira ngo na we abashe kugira ubuzima bwiza nk'ubw'abandi.

Umugabo uri guseka afite akadodo mu ntoki, bigaragara ko ari kukishimisha mu menyo, afite ikibazo cy'amenyo akeneye kwitabwaho agahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bw'amenyo, aho buri murwayi wese ufite ikibazo cy'amenyo ari kubagana, bakamusuzuma bakareba uko ubuzima bwe buhagaze.

Abayobozi batandukanye, harimo n'umuganga w'umuzungu n'umugabo n'umugore, aho basuye abana ku ishuri, babereka igishushanyo mbonera cy'ukuntu bagomba kwita ku menyo yabo, bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wicaye ari useka, iruhande rwe hari umuganga ufite igikoresho cyabugenewe gisuzuma amenyo uko ameze, aho uyu murwayi yaje kwisuzumisha amenyo kugira ngo arebe ikibazo afite, bamuhe ubuvuzi bw'ibanze akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, aho dusangamo ibyuma bitandukanye byifashishwa mu kuvura amenyo y'abarwayi kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore wishimye uri guseka, bigaragara ko akoresha umuti w'amenyo neza ndetse yoza amenyo ye neza, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umwana ari kumwe n'umuganga bigaragara ko uyu mwana afite ikibazo cy'amenyo, aho umuganga ari kumusuzuma kugira ngo amwiteho akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uri guseka, ari kwerekana amenyo yose, bigaragara ko akoresha umuti wabugenewe w'amenyo neza, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abana batandukanye, harimo abahungu n'abakobwa, aho bari kwerekana uburyo bwo kozamo amenyo, bifashishije umuti wabugenewe kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, aho dusangamo intebe zo kwicaraho n'ibindi bitandukanye, bifashisha basuzuma amenyo y'umurwayi uko ameze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Igishushanyo mbonera kigaragaza uko amenyo ameze mu kanwa n'uburyo umuntu agomba kuyafata neza, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo wishimye uri guseka, bigaragara ko yishimiye ubuvuzi bw'ibanze yahawe bw'amenyo kuko ameze neza afite ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa uri guseka wishimye, uri kugaragaza amenyo yose, bigaragara ko akoresha umuti wabugenewe w'amenyo kugira ngo yirinde indwara zitandukanye, akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umwana uryamye ku muganga, aho uyu muganga ufite ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma amenyo uko ameze, aho uyu mwana bagiye kumuha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umwana wasamye ku ruhande rwe hari umuganga uri gukoresha ibyuma byabugenewe bisuzuma amenyo, aho ari kumusuzuma amenyo ngo arebe ko nta kibazo afite akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wasamye bigaragara ko afite ikibazo cy'amenyo, akeneye kwitabwaho agahabwa ubuvuzi bw'ibanze, kugira ngo abashe kongera kugira ubuzima bwiza, ndetse amererwe neza.

Umusaza uhagaze, bigaragara ko afite umuti wabugenewe w'amenyo, aho ari kureba uburyo agomba kuwukoresha yoza amenyo n'uburoso, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wishimye cyane, uri koza amenyo bigaragara ko ari gukoresha umuti wamenyo kugira ngo akomeze kugira amenyo meza ndetse n'ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abasaza bashesheguhe, bigaragara ko bakuze cyane, bari gukora uturimo tw'amaboko, baruhura mu mutwe kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusaza n'umwana bigaragara ko bishimye bari gukina, aho uyu musaza ari gukina n'umwana kugira ngo aruhure mu mutwe, akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru wicaye ku musambi wabugenewe ukorerwaho imyitozo ngororamubiri, aho ari kwiyitaho agorora umugongo, amaguru n'amaboko kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo n'umugore bari mu rugo rwabo, aho umugore ari kwita ku mugabo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse anamufasha kuba yagarura imbaraga yatakaje.

Umuganga ari kumwe n'umusaza wicaye ku buriri bigaragara ko uyu musaza afite ikibazo cyo kutagenda, umuganga ari kumufasha kuba yahaguruka ngo yongere abashe kugenda.

Umugabo n'umugore bigaragara ko umugore ari umuganga, aho uyu mugabo afite ikibazo cyo kutagenda bigaragara ko uyu muganga ari kumwitaho amufasha kugira ngo arebe ko yakongera kugenda ndetse agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Umurwayi uhagaze afashe ku byuma bigaragara ko afite ikibazo cy'amaguru, akeneye kwitabwaho agakomeza kugira ubuzima bwiza akabasha kuba yakongera kugarura ubuzima bwiza nk'ubw'abandi.

Umukecuru wishimye cyane bigaragara ko ari kwitabwaho neza, aho ari gukoreshwa imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abakecuru babiri bari mu rugo rwabo bigaragara ko bishimye cyane, bari gukora uturimo dutandukanye two mu rugo ndetse banafata ibiryo bifite intungamubiri kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuganga uri kumwe n'umugabo, bigaragara ko uyu mugabo afite ikibazo mu maguru, umuganga ari kumwitaho kugira ngo abashe kongera kugira ubuzima bwiza, abashe no kuba yakongera kugenda nk'abandi.

Umusaza n'umwana, bigaragara ko bishimye bari gukina kuko uyu musaza ari gukina n'umwana kugira ngo akomeze kuruhura mu mutwe ndetse agire ubuzima bwiza.

Umukecuru wicaye mu rugo iwe, aho ari gufata imiti bamuhaye, ayifata neza kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu rugo rwabo, aho umusaza ari gufata imiti, umukecuru afite urupapuro ari kumusomera uko imiti agomba kuyifata kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo n'umwana bari gukina umupira bigaragara ko bishimye, aho uyu mugabo ari kwita ku mwana kugira ngo akomeze gukura neza afite ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusaza n'umukecuru bigaragara ko bari mu rugo rwabo bishimye, bagiye gufata amafunguro arimo intungamubiri zihagije kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu rugo rwabo, bigaragara ko bari gukina imikino ibafasha kuruhura mu mutwe kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukecuru ari kumwe n'umuganga umwitaho, bigaragara ko uyu mukecuru arwaye, aho uyu muganga ari kumusuzuma areba uko ubuzima bwe buhagaze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusaza ari kumwe n'umwana we bicaye mu rugo iwabo ku meza, bigaragara ko uyu musaza ari gusomera umwana inkuru zo mu bitabo kugira ngo bakomeze kwishima bagire ubuzima bwiza.

Umuganga ari kumwe n'umusaza, bigaragara ko uyu muganga ari kwita ku murwayi amupima areba uko umuvuduko w'amaraso we aho ugeze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ababyeyi bishimye bicaye, bigaragara ko bazanye abana babo ku kigo nderabuzima, aho babazanye ngo babakingire, kugira ngo babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza, kandi buzira umuze.

Abayobozi batandukanye harimo umuzungu, bigaragara ko uyu muzungu ari kubaha amategeko n'amabwiriza y'ukuntu bakirinda icyorezo cyitwa Marburg, aho abagira inama y'ukuntu bakirinda kugira ngo babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, harimo abagabo, abagore, bigaragara ko ari abayobozi batandukanye, bari guhabwa amategeko n'amabwiriza y'ukuntu bagomba gushishikariza abantu bafite ikibazo cy'uburwayi, bagomba kugana ikigo nderabuzima kikabafasha bakabasha kugira ubuzima bwiza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bigaragara ko ari igitsina gore, aho bari kuganirizwa uburyo bagomba kwiyitaho bagakomeza kugira ubuzima bwiza ndetse bita no ku bandi bantu kugira ngo barusheho gukomeza kumera neza.

Imbaga y'abantu benshi, harimo abagore n'abagabo bigaragara ko ari abayobozi batandukanye bishimiye ingamba bahawe zo kuba bagiye kwita ku bantu barwaye kandi bakagira ubuzima bwiza.

Imbaga y'abantu benshi bigaragara ko ari igitsina gore, aho bishimiye amategeko n'amabwiriza bari guhabwa y'uko bakomeza kwiyitaho ndetse bakagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako yahariwe abarwayi bafite ikibazo gikabije, aho dusangamo uburiri n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bifashisha basuzuma uko ubuzima bw'umurwayi bumeze, kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze aho dusangamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, dusangamo uburiri, n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu kuvura umurwayi kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese urwaye abagana kugira ngo bamufashe, bamuvure akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese udafite ubushobozi bwo kugera ku kigo nderabuzima, abagana bakamufasha, bakamuha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange y'ikigo nderabuzima cya Matyazo, yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese wumva utameze neza, abagana kugira ngo bamufashe bamuhe ubuvuzi bw'ibanze, akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yahariwe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese urwaye abagana bakamufasha, bakabasha kumuha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange y'ibitaro bya Nyanza yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese wumva arwaye abagana, kugira ngo bamufashe kuba bamuvura, akabasha kugira ubuzima bwiza nk'ubwo abandi.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze y'ibitaro bya Nyarugenge, aho buri muturage wese wumva arwaye abagana, kugira ngo bamufashe bamuhe ubuvuzi bw'ibanze akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho dusangamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo uburiri, inzitiramibu, aho buri murwayi wese wumva atameze neza bamufasha bakamuvura agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho dusangamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga. Harimo intebe yo kwicaraho, uburiri bwo kuryamishaho umurwayi bamusuzuma bareba uko ubuzima bwe buhagaze.

Inyubako rusange yahariwe ubuvuzi bw'ibanze bw'abaturage, aho buri muturage wese ufite ikibazo agomba kubagana bakamufasha, bakareba ikibazo afite bakabasha kumwitaho kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese urwaye abagana kugira ngo bamufashe akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yahariwe ubuvuzi bw'ibanze, aho dusangamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma ubuzima bw'umurwayi uko buhagaze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho umuturage wese urwaye abagana kugira ngo bamufashe kuba bamuvura indwara, abashe kuba yagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako rusange yahariwe ubuvuzi bw'ibanze y'ababyeyi, aho umubyeyi wese ufite ikibazo abagana, kugira ngo babashe kumufasha barebe ikibazo afite, abashe kuba yamererwa neza cyangwa yagira ubuzima bwiza nk'ubw'abandi.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese abagana bakamupima bakareba indwara afite bakayivura, agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese urwaye abagana kugira ngo bamuhe ubuvuzi bw'ibanze akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho dusangamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma indwara zitagaragarira amaso kugira ngo umuntu uzirwaye abashe kwitabwaho akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yagenewe ubuvuzi bw'ibanze bw'ababyeyi aho buri mubyeyi wese utameze neza bamufasha, bakamuha ubutabazi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yagenewe ubuvuzi bw'ibanze bigaragara ko itaruzura, aho buri muturage wese ufite ikibazo azajya abagana bakamufasha bakamuha ubuvuzi bw'ibanze, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese wumva arwaye abagana bakamufasha, bakamuvura, agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese wumva arwaye abagana bakamufasha, bakamuha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese utameze neza abagana kugira ngo bamufashe bamuhe ubuvuzi bw'ibanze, akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese urwaye abagana bakamufasha bakamuha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho dusangamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo uburiri n'ibindi bitandukanye, abarwayi bifashisha kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho dusangamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma abarwayi, harimo intebe n'ibindi byifashishwa mu gusuzuma umuvuduko w'amaraso uko ameze, kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yagenewe ubuvuzi bw'ibanze aho dusangamo ibikoresho bitandukanye, bisuzuma ubuzima bw'umurwayi uko bumeze, aho dusangamo n'uburiri n'ibindi bitandukanye kugira ngo ubuzima bw'umurwayi bukomeze kugenda neza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho dusangamo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe zo kwicaraho, aho buri muturage wese wumva arwaye abagana bakamuha ubuvuzi bw'ibanze, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho dusangamo uburiri n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gupima umutima w'umurwayi uko utera, kugira ngo umurwayi akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yahariwe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese abagana kugira ngo bamufashe kuba bamuvura, agakomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze aho dusangamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo intebe zo kwicaraho, uburiri n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu gupima ubuzima bw'umurwayi uko buhagaze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe kuvurirwamo abarwayi bafite ikibazo gikabije, aho dusangamo uburiri n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, bifashisha bari kuvura abarwayi kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese udafite ubushobozi bwo kugera ku kigo nderabuzima abagana, bakamufasha, bakamuha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho dusangamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo uburiri, intebe zo kwicaraho n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma ubuzima bw'umurwayi uko buhagaze.

Inyubako yagenewe ubuvuzi bw'ibanze y'ababyeyi, aho buri mubyeyi wese urwaye abagana bakamufasha, bakamuha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yahariwe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese urwaye abagana kugira ngo bamufashe babashe kureba ikibazo cy'ubuzima afite, bakomeze kumwitaho akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho dusangamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo uburiri, intebe zo kwicaraho n'ibindi byifashishwa mu gusuzuma ubuzima bw'umurwayi uko bumeze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese urwaye abagana kugira ngo bamuvure bamufashe kuba yakongera kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yahariwe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese wumva afite ikibazo, abagana kugira ngo bamufashe akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yagenewe ubuvuzi bw'ibanze aho dusangamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu gusuzuma ubuzima bw'abarwayi uko bumeze, kugira ngo babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Inyubako igezweho yahariwe ubuvuzi bw'ibanze, aho dusangamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma ubuzima bw'abarwayi, uko bameze kugira bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange y'ikigo nderabuzima cya Tabagwe yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese abagana bakamuha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange ya Kigina yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese wumva arwaye abagana bakamufasha, bakamuha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ababyeyi, aho buri mubyeyi wese ufite ikibazo abagana bakamufasha bakamuha ubutabazi bw'ibanze, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese wumva arwaye abagana kugira ngo bamufashe bamuhe ubuvuzi bw'ibanze akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese wumva arwaye abagana kugira ngo bamufashe, bamuvure akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho umurwayi wese urwaye abagana kugira ngo bamufashe bamusuzume abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese urwaye abagana akamufasha bakamuha ubuvuzi bw'ibanze, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese wumva atameze neza abagana bakamufasha, bakabasha kumuvura indwara afite, akabasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese wumva urwaye abagana kugira ngo bamufashe, bamuhe ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese wumva arwaye abagana kugira ngo bamufashe, bamuhe ubuvuzi bw'ibanze akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yahariwe ubuvuzi bw'ibanze, aho dusangagamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, aho hari igikoresho banyuzamo umurwayi bamusuzuma, bareba uko amagufa ameze, cyangwa ubuzima bwe buhagaze, ko nta ndwara yaba yihishe mu mubiri afite, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako igenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho dusangamo ibikoresho bitandukanye ndetse n'insimbura z'amaraso, baha abarwayi bafite ikibazo cy'amaraso kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho dusangamo ibikoresho bitandukanye harimo: uburiri, intebe zo kwicaraho n'ibindi bikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gusuzuma ubuzima bw'umurwayi uko buhagaze, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yagenewe ubuvuzi bw'ibanze aho dusangamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, aho umurwayi bamucisha mu gikoresho kimwe kiri aho, kibasha gusuzuma indwara zihishemo indani mu mubiri kugira ngo bamenye izo ari zo bazivure zikire.

Inyubako rusange yahariwe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese wumva arwaye abagana bakamufasha kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese wumva arwaye abagana, kugira ngo bamufashe bamuhe ubuvuzi bw'ibanze, akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako igezweho, ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho buri muntu wese ayigana, akabasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze, aho buri muturage wese udafite ubushobozi bwo kugera ku kigo nderabuzima, abagana bakamufasha, bakamuha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uryamye hasi uri gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko ari kugorora umugongo, amaguru n'amaboko, kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa wicaye hasi bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kugorora umugongo, amaguru n'amaboko kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa wicaye hasi, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kugorora umugongo, amaboko n'amaguru, anapima umuvuduko w'amaraso aho ugeze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wicaye hasi bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kugorora umugongo, amaguru, amaboko kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri kunywa amazi bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari gufata amazi kugira ngo abashe kugarura ubuyanja ndetse agire n'imbaraga kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'imbuto zitandukanye umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri yafata, harimo; inanasi, amatunda, amaronji, imineke n'indimu ndetse n'ibindi bitandukanye umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri afata kugira ngo akomeze kugarura ubuyanja.

Umugabo uhagaze uteruye ibyuma, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa wicaye bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kugorora umugongo, amaboko n'ijosi n'amaguru, aho ari gukora iyi myitozo ngororamubiri kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wicaye bigaragara ko yagizweho n'ingaruka ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho afite umuti ukonje cyane bashyira ku mutsi wasinziriye kugira ngo ukanguke, ukomeze gukora neza nk'iyindi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo amazi n'ibindi bitandukanye, hakaba n'imbuto umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri afata kugira ngo abashe kugarura imbaraga yatakaje.

Umukobwa wicaye, ku musambi wabugenewe wo gukorerwaho imyitozo ngororamubiri, aho ari kugorora amaguru, umugongo, n'izindi ngingo zitandukanye, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura umuntu wagizweho n'ingaruka ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Imiti itandukanye myinshi, bigaragara ko iyi miti ikoreshwa ku bantu bagezweho n'ingaruka bari gukora imyitozo ngororamubiri, aho iyi miti bayifashisha kugira ngo bakomeze kuba bagira ubuzima bwiza ndetse bamere neza.

Muganga ufashe umupira wagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri aho ari kwerekana uburyo ukoreshwa kugira ngo umuntu wawukoresheje akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye ubusa mu gatuza, bigaragara ko yagize ikibazo, ari gukora imyitozo ngororamubiri ku rutugu, aho akeneye kwitabwaho akavurwa; akabasha kuba yamererwa neza, agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uhagaze ari gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko ari kugorora amaguru, amaboko, umugongo ndetse n'izindi ngingo zitandukanye z'umubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore wicaye, uri kunywa amazi, bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kunywa amazi kugira ngo amufashe kugarura ubuyanja ndetse n'imbaraga yatakaje kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho dusangamo umupira w'amaguru, uw'amaboko n'indi itandukanye ndetse n'icyuma cy'ikoranabuhanga cyagenewe gusuzuma uko umutima utera kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozongorora mubiri hakaba n'imbuto zitandukanye umuntu afata amaze gukora imyitozongorora mubiri harimo amagi, inyama, imineke, inkeri n'ibindi bitandukanye umuntu yafata amaze gukora imyitozo ngororamubiri kugira agarure imbaraga yatakaje.

Umugore wicaye, iruhande rwe hari umuganga, bigaragara ko yagezweho n'ikibazo ari ugukora imyitozo ngororamubiri, akeneye guhabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Imbaga nyamwinshi y'abana batandukanye harimo abakobwa n'abahungu, aho baje gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo wicaye ari kunywa amazi, bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari gufata amazi kugira ngo agarure ubuyanja akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako rusange yagenewe ubuvuzi bw'ibanze aho harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo intebe, uburiri bwagenewe gushyirwaho umuntu wagize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo babashe kureba ubuzima bwe uko buhagaze.

Igikoresho gikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kuba cyafasha umuntu wagizweho n'ingaruka ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo babashe kumugeza ku kigo nderabuzima, ahabwe ubuvuzi bw'ibanze agire ubuzima bwiza.

Umuntu ufashe icupa ry'amazi bigaragara ko agiye kuyanywa, amaze gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri bigaragara ko ari kugorora amaboko, umugongo n'ibindi bice bigize umubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ufite icupa ry'amazi ari kuyanywa, bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri, aho iyi myitozo ngororamubiri imufasha kugira ubuzima bwiza, kandi buzira umuze.

Amavuta ari mu macupa atandukanye bigaragara ko aya mavuta akoreshwa ku muntu wagizweho n'ingaruka ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho bayamusiga ahantu yakomeretse kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse amererwe neza.

Umukobwa uri kunywa amazi bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kunywa amazi kugira ngo agarure ubuyanja ndetse n'imbaraga yatakaje akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuganga n'umurwayi wicaye ku gitanda, bigaragara ko uyu murwayi yagizweho n'ingaruka ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho uyu muganga ari kumufasha kugira ngo abashe kuba yamuvura, akomeze kugira ubuzima bwiza.

Igikoresho gikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, bifashisha bari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo babashe kugorora ingingo zigize umubiri, umuntu abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko ari kugorora amaboko, amaguru, umugongo n'izindi ngingo zitandukanye z'umubiri, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugore wicaye, bigaragara ko yagizweho n'ingaruka ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kwifashisha umuti ukonje cyane, ukangura imitsi kugira ngo imitsi yasinziriye yongere ikanguke, isubire mu murongo, ikore neza.

Abagabo batatu, umwe muri bo arapfukamye, bigaragara ko agize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho akeneye kwitabwaho agahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuganga ari kumwe n'umugabo bigaragara ko uyu muganga ari gukoresha uyu mugabo imyitozo ngororamubiri, yo kugorora amaboko, umugongo n'ibindi bitandukanye kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri kunywa amazi bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo amazi amufashe kugarura ubuyanja ndetse n'imbaraga yatakaje akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ushyize amaboko mu irugu bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kugorora amaboko, umugongo ndetse n'ibindi bice bigize umubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse hari n'imbuto umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri afata kugira ngo agarure ubuyanja n'imbaraga yatakaje, akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo n'umugore, umugabo bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, agorora amaguru n'amaboko n'ibindi bice bigize umubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wicaye, wifashe mu ivi, bigaragara ko yagizweho n'ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri, akeneye guhabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wunamye bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kugorora umugongo, amaboko, amaguru kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abagabo babiri umwe uhagaze, undi bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho bari kumwerekera uko akora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uryamye, umuganga ari kumwitaho bigaragara ko uyu mugabo yagizweho n'ingaruka ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho uyu muganga ari kumufasha kumu kumugororera ukuguru, ndetse amwitaho kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho umuntu ubikoresha abasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko ari kugorora amaboko, umugongo, kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuganga uhagaze ari kwerekana ibikoresho bitandukanye bakoresha mu myitozo ngororamubiri, bigaragara ko ari kwerekana uko byakoreshwa n'uko wakomeza kubikoresha ugakomeza kugira ubuzima bwiza.

Umugabo usutamye, iruhande rwe hari umugore, bigaragara ko uyu mugore ari kumwerekera uburyo agomba gukoramo imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza, kandi buzira umuze.

Imiti itandukanye yifashishwa ku muntu wagizweho n'ingaruka ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ayikoresha yomora ibisebe kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umubikira n'umwana n'umuzungu aho uyu mwana bari kumukoresha imyitozo ngororamubiri, bamugorora amaguru n'izindi ngingo z'umubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga, kifashishwa mu gusuzuma umuntu wagizweho n'ingaruka ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho gisuzuma indwara zitagaragarira amaso ziri mu mubiri mu indani, kugira ngo bazivure umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho dusangamo umugozi n'ibindi bitandukanye, hakaba n'imbuto umuntu yarya amaze gukora imyitozo ngororamubiri n'ibindi biribwa kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wicaye bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, aho ari kugorora umugongo, amaboko n'amaguru kugira ngo abashe kugorora ingingo z'umubiri we neza akomeze kugira ubuzima bwiza.

Icupa ry'amazi bari gusuka mu kirahure, aho ayo mazi afasha umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ayanywe akomeze kugarura ubuyanja kandi agire ubuzima bwiza.

Umugabo ari kunywa amazi, bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri aho aya mazi aramufasha kugarura ubuyanja ndetse n'imbaraga yatakaje kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Amavuta ari mu macupa atandukanye akozwe mu kimera gakondo bita igikakarubamba aho aya mavuta afasha kuba uruhu rwamera neza ndetse akavura n'ibiheri byo ku ruhu kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuti ukozwe mu kimera gakondo bita umuravumba aho bawifashisha bawunywa, bawushyira ku bisebe kugira ngo umuntu ufite ikibazo abashe kuwunywa akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ikimera gakondo bita umuravumba, aho iki kimera bagikoramo umuti bawifashisha bawunywa, cyangwa bakawushyira ku bisebe, babyomora kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza.

Amavuta ari mu macupa atandukanye akozwe mu kimera gakondo bita igikakarubamba, aho aya mavuta afasha uruhu kuba rwasa neza, uruhu rurwaye ibiheri wayasigaho uruhu rugakomeza gusa neza.

Imiti itandukanye ikozwe mu bimera bitandukanye gakondo, aho iyi miti bayifashisha bayinywa, yomora ibisebe n'ibindi n'izindi ndwara zitandukanye kugira ngo umuntu wayikoresheje akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ikimera gakondo bita kapusine, aho iki kimera kidufasha kuba cyavura inkorora, anjine, ibicurane n'ibindi bitandukanye kugira ngo umuntu wabikoresheje akomeze kugira ubuzima bwiza.

Amavuta ari mu icupa akozwe mu kimera gakondo bita igikakarubamba, aho aya mavuta afasha uruhu rurwaye ibiheri kugira ngo rukomeze gusa neza, rugire ubuzima bwiza.

Ibimera gakondo bitandukanye, aho mu bimera dusangamo, igikakarubamba n'ibindi bitandukanye, aho bifasha kuvura indwara z'uruhu, kugira ngo uwayikoresheje akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ikimera gakondo bita umuravumba, aho uyu muti udufasha kuba wavura: anjine, inkorora, ibicurane ndetse ukomora n'ibisebe; kugira ngo uwawukoresheje akomeze kugira ubuzima bwiza.

Amavuta ari mu icupa akozwe mu kimera gakondo bita igikakarubamba, aho aya mavuta bayisiga ku ruhu kugira ngo abashe kuba yavanaho uduheri cyangwa udukovu turi k'uruhu.

Imiti gakondo itandukanye, bifashisha bari kuvura ubuzima bw'abarwayi, aho bayinywa cyangwa bakayishyira ku bisebe kugira ngo umurwayi ufite ikibazo abashe kuba yayikoresha akomeze kugira ubuzima bwiza.